Abadamu babiri bicaye, ku ntebe z'umukara, uwo ku ruhande rwa ruguru afite agasatsi gake ku mutwe, yambaye ikote ririmo utubara tw'umweru n'umukara, mu imbere harimo agashati k'umukara, afite isaha ku kaboko, uwo hirya yateze igitambara mu mutwe cy'umuhondo.

Abagore n'abagabo bahagaze, bambaye amataburiya y'ubururu bwerurutse, mu ijosi hari baji, hari umugabo uhagaze hagati yambara amarinete, ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu irimo n'umweru, ipantaro y'umukara, hino hari undi uhagaze, yambaye itaburiya y'umweru.

Abakobwa babiri bicaye, umwe afashe undi ku kaboko, yambaye amarinete, afite agasatsi gake ku kumutwe, yambaye agapira k'umukara, ipantaro yumukara, umukandara w'umukandara wa ruguru, yambaye ingofero, ishati y'umutuku.

Umugabo n'umugore bicaye, umugore yambaye agapira k'umuhondo shanete mu ijosi. Intoki ze zose ziri impeta, afite akapapuro mu ntoki, umugabo yambaye umupira w'ubururu, yamba agakomo ku kaboko, ku rutoki rwe hariho impeta.